Kwa muganga ku bitaro bikuru, aho abarwayi baza gusaba serivise z'ubuzima. Aha niho amavuriro yo hasi ashobora kohereza abarwayi bakoresheje taransiferi, maze bakabaha ubuvuzi bwisumbuye k'ubwo amavuriro yo hasi afite.

Umuyobozi w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ari kuri televiziyo, ari gutanga ikiganiro cy'uburyo twakwirinda ibiyobyabwenge ndetse anatubwira ibibi by'ibiyobyabwenge, atubwira ko ibiyobyabwenge birica, bitera ubukene ndetse bitera n'izindi ndwara zitandukanye.

Farumasi icuruza imiti y'amatungo, harimo imiti y'inka, intama, ihene, ingurube ndetse n'izindi.